Abana benshi cyane bagiye batandukanye biga mu mashuri y'incuke, bicaye ahantu ku mukeka bawukikije, aho buri wese afite igikombe k'icyatsi kirimo amata bari kugenda banywa.

Abana biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bagiye bicaye bakikije ameza aho higanjemo abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bose bicaye neza kandi banezerewe.

Abana biga mu mashuri y'incuke bakaba bicaye ahantu mu ishuri aho hari intebe zigiye zirambitse imbere yabo zitandukanye bakaba bari kuzifashisha biga bicaye mu buryo bw'amatsinda.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri y'incuke, bakaba bicaye ku dutebe twabugenewe turi mu mabara y'ubururu, umutuku ndetse n'umuhondo n'icyatsi, bakaba bicaye bakikije ameza.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke bakaba bicaye bazengurutse akameza, bicaye mu buryo bw'amatsinda bw'abana bane, aho umwe afite agasanduku mu ntoki karimo ibara ry'ubururu.

Abana biga mu mashuri y'incuke, bakaba bateraniye hamwe, aho bari kugenda bakora imyitozo ngororamubiri mu masaha y'akaruhuko, bari kumwe n'umwarimu wabo ubigisha.

Intebe z'amoko agiye atandukanye, ziri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi, zikaba zigirwamo n'abanyeshuri biga mu mashuri y'incuke, aho izi ntebe ziba ari nziza cyane ku banyeshuri.

Abana biga mu mashuri y'incuke benshi bagiye batandukanye, aho imbere yabo hari umwarimu w'umugore uri kubigisha. Abo bana bakaba bicaye ku mukeka bakurikiye amasomo mwarimu wabo ari kubagezaho.

Abana benshi cyane biga mu mashuri y'incuke, bicaye ku ntebe zigiye zitandukanye, bakaba bose barebye imbere, aho bari gukurikirana amasomo mwarimu wabo ari kubagezaho, kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi.

Igikuta giteyeho ibyapa byanditseho amagambo agiye atandukanye ndetse n'iyi mibare, hariho n'ibishushanyo by'amatungo agiye atandukanye, aho byifashishwa bari kwigisha abana biga mu mashuri y'incuke.

Abana biga mu mashuri y'incuke, bakaba bicaye bakikije ameza, aho bafite agasanduku kari mu mabara y'umweru umukara n'ubururu bari kugenda bakaganiraho.

Abana biga mu mashuri y'incuke, aho bari kumwe n'umwarimu wabo bicaranye, bakaba bari kugenda bicara mu buryo bw'uruziga kugira ngo babashe kumvana buri wese.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye benshi bagiye batandukanye, bakaba bateraniye hamwe ku ishuri, aho bari kugenda bakina udukino twinshi tugiye dutandukanye twiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bakaba bicaye ku gitebe cy'ishuri, aho bambaye impuzankano z'ishuri, bategereje ko mwarimu wabo aza agafungura ishuri ubundi bakinjira.

Umwana wiga mu mashuri y'inshuke, akaba yambaye imyambaro y'impuzankano, bari imbere y'inyubako y'ishuri ikinguye, ifite urugi rusa icyatsi.

Inyubako nziza cyane ifite igipangu giteye irange ry'umweru, gishushanyijeho abanyeshuri batatu bari kujya ku ishuri ndetse n'Ibendera ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Abana biga mu mashuri y'incuke, bakaba bari kugenda harimo abambaye utwambaro turi mu mabara y'ubururu na kaki biga ku kigo cy'amashuri cya Cyarwa.

Ibikoresho bigiye bitandukanye bishushanyije ku gikuta, aho ibyo bikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye kugira ngo bazabashe gutsinda neza amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarange ku bikuta y'umweru, ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba ari inyubako y'ikigo cy'amashuri abanza.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza benshi cyane, bateraniye hamwe aho ba kwiga, imbere yabo buri wese akaba ahafite ikayi n'ikaramu ari kwifashisha.

Umwana wiga mu mashuri y'incuke, akaba afite umutwe wogoshe neza, iyo nyubako imwegereye ikaba yubakishije amatafari ahiye, bigaragara ko ari uruzitiro rw'ikigo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amabara y'umukara ku kibaho ndetse ikaba yubakishije amatafari ahiye, ikaba ari inyubako yo ku kigo cy'amashuri abanza.

Abana biga mu mashuri y'inshuke bakaba bateraniye hamwe, aho hari umwarimu wabahaye igitabo ngo basome mu matsinda, bakaba bari kugerageza gutozanya gusoma.

Abanyeshuri bagiye batandukanye bagiye ku ishuri, biganjemo abakobwa ndetse n'abahungu, harimo umwe w'umukobwa wikoreye ibase bigaragara ko ajyanyemo imbuto baraza kwifashisha bateka.

Muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'intebe ndetse na mudasobwa, abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo bamenye ibijyanye n'ikoranabuhanga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako y'amashuri ikaba igaragara nk'ishaje, imbere yayo hari ubusitani bwiza cyane buri kugendwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu mashuri abanza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako ifite igikuta giteye amarangi y'umweru, hakaba hamanitseho ibipapuro bigiye bitandukanye byanditseho amagambo.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, bakaba bateraniye hamwe, aho bari gukurikirana amasomo yabo bigishwa na mwarimu kugira ngo barebe ko bazamenya ubwenge.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye by'umwihariko abiga mu mashuri yisumbuye bakaba bari kugenda bahetse ibikapu ndetse n'abiga mu mashuri abanza bambaye amakabutura n'impuzankano.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, aho ifite urugi ruri mu mabara y'icyatsi ndetse hakaba harimo n'ibikoresho byose abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gutsinda.

Inyubako nziza cyane y'amashuri yisumbuye, aho harimo umwarimu uri kugenda yigisha abanyeshuri, yambaye ipantaro n'agapira, abigisha uko bakoresha mudasobwa, kugira ngo bagendane n'iyi si ya none.

Umuhanda ushashemo amapave uri kugendwamo n'abana biga mu mashuri y'incuke bambaye impuzankano zigiye zitandukanye, bakaba biga ku kigo cy'amashuri cya Cyarwa, giherereye mu murenge wa Tumba.

Ibitabo bigiye bitandukanye byifashishwa n'abarimu igihe baba bari kwigisha abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye biba birimo isomo ry'imibare.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite akabati karimo ibitabo abanyeshuri bifashisha bari gusoma kugira ngo bamenye ubwenge kandi bazabashe gutsinda.

Inyubako nziza cyane, ifite amadirishya ateyemo ibirahure, ndetse afite na giriyaje ziri mu mabara y'umweru, ku buryo nta muntu wapfa gucamo, ngo yinjire.

Inyubako nziza cyane ifite igipangu giteyeho amarange y'umweru, hashushanyijeho abanyeshuri bari kujya ku ishuri ndetse n'Ibendera ry'Igihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umuryango ufite urugi rw'icyatsi, akaba ari umuryango w'inyubako y'ishuri, aho uyu muryango ukinguye, abanyeshuri bakaba bawinjiriramo bajya mu ishuri.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zisakaje amabati y'ubururu, zikaba ari inyubako z'amashuri, aho hepfo hari izindi zisakaje amategura zo zishaje, ruguru hakaba hari abanyeshuri.

Ikibaho cyanditseho amasomo menshi agiye atandukanye, abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye biga kugira ngo bazabashe gutsinda neza no kumva ibyo biga.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bakaba bateraniye hamwe bari gusubiramo amasomo yabo, bakaba bari kugenda bungurana ibitekerezo bigaragara ko biga mu mashuri abanza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako irimo ameza meza cyane, ariho igitabo abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo basubiremo amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ibikuta byubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba irimo intebe nziza cyane zifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho ifite ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'umucaca ndetse bigaragara ko aho hantu ari ku rusengero.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho ifite igipangu giteye amarangi y'umweru, kikaba gishushanyijeho umwana uri gusoma igitabo, bikaba byerekana ko ari ku kigo giherereye mu Karere ka Huye.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, aho ifite ibikuta byubakishije amatafari ahiye, ikaba irimo intebe nyinshi zigiye zitandukanye n'utubati byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza.

Abanyeshuri benshi cyane, bagiye batandukanye, bateraniye hamwe mu ishuri, aho bari kwiga, imbere yabo hakaba hari mwarimu uhahagaze, ari kugenda abasobanurira amasomo yabo.

Igicumbi cyiza cyane cyanditseho ikigo cy'amashuri cya gurupe ofisiyeri de Butare indatwa n'inkesha, giherereye mu karere ka Huye umurenge wa Ngoma.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, aho imbere n'inyuma hari utuyira abanyeshuri bambukiramo, ikaba ihageze ihagaze, itegereje ngo babanze bambuke bajye ku ishuri.

Umwarimu wigisha mu mashuri yisumbuye, yambaye itaburiya n'ipantaro y'umukara, akaba ahagaze imbere y'ikigega, iki kigega rero ni ingenzi, kuko gitangira amazi menshi.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bagiye kurira imodoka bahetse ibikapu bari gutaha. Iyi modoka rero ikaba iri mu mabara y'umweru kandi itwara abantu mu buryo bwa rusange.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri, bari ku murongo aho bose bamanikiye rimwe amaboko yabo y'iburyo.

Umwarimu uri mu ishuri, ari kwigisha, afite igitabo mu ntoki yifashisha ari gutanga ingero, akaba ari kumwe n'abanyeshuri benshi bambaye amashati y'umweru n'imipira y'ubururu igiye itandukanye.

Ni inyubako y'amashuri meza cyane, aho ayo mashuri asakaje amabati y'ubururu afite imiryango y'icyatsi ndetse akaba ari ku kigo cy'abagatolika cya Butare kegeranye na Kaminuza.

Umuhanda ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru dushashemo amapave, hakaba hari na rigore itwara amazi, ruguru yayo hari ubusitani bwiza cyane buteyemo intebe z'umuhondo ndetse n'ubururu zicarwaho n'abanyeshuri bari mu nama.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho zisakaje amabati y'ubururu. Zifite ubusitani bwiza cyane buteyemo ibiti igiye itandukanye y'ibikindo byiza.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe biganjemo abiga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye bari gufata note, aho bose bari kwandika mu makayi yabo kandi bihugiyeho.

Inyubako nziza cyane y'ishuri ,aho hateraniyemo abanyeshuri benshi cyane, hakaba harimo bamwe muri bo bafite za mudasobwa, n'abandi bari kwiga bareba mu nsakazamashusho.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari ahantu mu nyubako bambaye impuzankano, aho bakurikiye ikiganiro bari kugezwaho n'umuyobozi wabo ubari imbere.

Inyubako nziza cyane iteye amarange y'ubururu ndetse n'umweru ku bikuta, akaba ari inyubako ya Gatagara yigisha ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, iherereye i Nyanza.

Abanyeshuri bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bambaye amashati y'umweru ndetse n'amapantaro ya kaki, bakaba bari gukora ikizami, aho harimo abahungu n'abakobwa.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ziri mu mabara y'ubururu n'akaki, bakaba bari ahantu mu murima ku ishuri bari kugenda bawuhinga kugira ngo bazateremo imboga.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye bakaba bahuriye hamwe, imbere yabo hari umuyobozi wabo ufite indangururamijwi mu ntoki ari kugenda abagezaho ikiganiro n'abo bamukurikiye.

Abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye bateraniye hamwe, aho harimo abambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru n'ubururu, hakaba harimo umugore ufite indangururamajwi ari guhereza umwe ngo asubize.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye, bicaye ahantu bari kureba insakazamashusho kubera ko muri iki gihe hasigaye haraje ikoranabuhanga, abanyeshuri bigira ku nsakazamashusho.

Abanyeshuri benshi cyane biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bicaye bari gukora ikizami, buri wese imbere ye akaba afite ikaramu ndetse n'urupapuro rw'ibizami, bakaba biga mu mashuri yisumbuye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho imbere yayo hateraniye abanyeshuri benshi biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano ndetse na karuvati, bari kumwe n'abarimu babo bari kwifotoza.

Abantu benshi bagiye batandukanye bateraniye ahantu hamwe higanjemo abanyeshuri ndetse n'abarimu babo, aho bari ahantu muri sitade bari bari gukina umupira.

Inyubako nziza cyane z'amashuri, zubatswe mu buryo bugezweho, aho zifite inzugi ziri mu mabara y'ubururu, zikaba zifite n'ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'indabyo.

Intebe nziza cyane ibajwe mu mbaho ndetse n'ibyuma, aho itunganywa n'abahanga babyigiye hanyuma ikifashishwa n'abanyeshuri igihe baba bari kwiga.

Inyubako nziza cyane y'ishuri, yubatswe mu buryo bugezweho, aho harimo intebe nziza cyane abanyeshuri bifashisha bari kwiga kugira ngo babashe gukurikira amasomo yabo.

Inyubako nziza cyane y'isomero aho hari umugabo uhagazemo wambaye ishati y'umutuku, akaba ari umukozi ukora mu isomero utiza abanyeshuri ibitabo byo gusoma.

Umugore uri mu ishuri aho imbere ye afite ibikoresho bigiye bitandukanye yifashisha ari kwigisha, aho yambaye ikanzu y'umweru bigaragara ko ari umwarimu wigisha mu mashuri abanza.

Abanyeshuri benshi cyane bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano nziza cyane, ziri mu mabara menshi agiye atandukanye y'umweru ndetse na kaki.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho, aho zifite utuyira dushashemo amapave, ndetse zikaba zifite n'ubusitani bwiza cyane, burimo amoko agiye atandukanye y'indabyo nziza.

Umwana uteruye akabase karimo akawunga, bakaba bagiye kukarya. Iyi rero ni gahunda yashyizweho na guverinoma y'u Rwanda, kugira ngo haterwe imbere ireme ry'uburezi, mu Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako y'amashuri aho isakajwe amabati y'ubururu, yubakishije amatafari ahiye, imbere hari ubusitani buteyemo ibendera ry'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba iherereye mu Karere ka Huye, ikaba ari inyubako ya semineri ntoya ya Karubanda, iherereye hafi ya gare.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe ku rusengero, aho bambaye impuzankano z'ishuri, bakaba bari bagiye gusenga kugira ngo biyambaze Imana, ikirere kirasa ubururu n'umweru.

Inyubako y'ishuri aho irimo ikibaho gisa umukara, kikaba gishushanyijeho amanota bifashisha bari kuririmba, aho mwarimu ayifashisha yigisha abanyeshuri ibintu bitandukanye.

Abantu benshi cyane, bahuriye hamwe mu kibuga, aho higanjemo abambaye amasengeri y'umukara n'umweru, ndetse bakaba bambaye n'amapantaro. Aho bari kubyina, indirimbo z'umuco nyarwanda.

Abanyeshuri benshi bagiye batandukanye biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano ziri mu mabara ya buresiyeri ndetse na kaki, aho umwe muri bo ahagaze imbere afite indangururamajwi.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'utuyira tw'abanyamaguru, aho muri uwo muhanda hari umuntu uri kwambukamo, ndetse hakaba n'umwana uri kugenda muri utwo tuyira tw'abanyamaguru.

Intebe nziza cyane zikozwe mu buryo bugezweho, aho zibajwe mu mbaho, zikaba zifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye ndetse n'abanza.

Imodoka ni nziza cyane, ziba ziri mu mabara agiye atandukanye y'umuhondo, aho zitwara abanyeshuri baba bagiye ku ishuri kugira ngo bagereyo amahoro maze bige neza.

Imodoka yo mu bwoko bwa tagisi, ikaba ari imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ariko igatwara abagenzi batarenze cumi n'umunani, ikaba iri kugenda ahantu mu muhanda.

Inyubako nziza cyane yubakishije ibirahuri byiza bitabonerana, isakaje amabati y'ubururu, ikaba ari inyubako y'ishuri yubatswe mu buryo bw'amagorofa.

Ahantu mu isomero harimo ibitabo byinshi bigiye bitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari gusoma kugira ngo babashe gutsinda amasomo yabo neza uko biba byaragenwe.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe mu nyubako y'ishuri higanjemo umuyobozi w'ikigo, umukwikwi ndetse n'abandi bantu bize iby'amashanyarazi, bakaba bari kurebera hamwe icyabagirira akamaro.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bambaye impuzankano ziri mu mabara y'umweru ndetse na kacye. Bakaba biganjemo abahungu ndetse n'abakobwa, aho bahagaze ahantu hamwe.

Umwana uri kugenda mu muhanda wa kaburimbo agiye ku ishuri, akaba agiye kunyura kuri bagenzi be, bo bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru, bigaragara ko hano ari mu karere ka Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, zifite amarangi y'umweru ku bikuta, zifite amabati y'ubururu, inzugi zisa icyatsi, zikaba ari inyubako zo mu kigo cy'amashuri yisumbuye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, iteye amarange y'umweru n'ubururu ku bikuta, ikaba iziritseho akagozi ndetse hariho n'amadarajya bigaragara ko iyo nyubako batari bayitaha.

Inyubako nziza cyane y'amashuri yubatswe mu buryo bugezweho, aho hari ubusitani bwiza cyane burimo ibendera riri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Abantu benshi bagiye batandukanye, biganjemo abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, bakaba bari kugenda barura amafunguro, aho buri wese ahafite umuneke imbere ye, bukaba ari uburyo bwiza bwo kurya indyo yuzuye.

Inyubako nziza cyane y'ishuri yateraniwemo abanyeshuri bagiye batandukanye, aho aba banyeshuri bari kugenda biga amasomo yabo kugirango barebe ko bamenya gukoresha mudasobwa maze bunguke ubwenge.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho harimo intebe nziza cyane zicarwaho n'abanyeshuri, biga muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, kuko ni nziza cyane.

Abantu benshi cyane bateraniye hamwe muri sale iberamo inama, higanjemo abagabo ndetse n'abagore buri wese imbere ye afite mudasobwa ari kujya arifashisha.

Ubuni bwiza cyane buherereye muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, bukikije inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho ndetse buteyemo n'ibiti birebire bizana umuyaga n'amahumbezi.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho yubakishije amatafari ahiye, ikaba iri kwakamo amatara mo imbere, bikaba bigaragara ko ari mu isomero rya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iteye amarangi y'umweru ku bikuta. Ikaba ari inyubako y'ishuri aho abanyeshuri bagiye batandukanye bicara bari kwiga bakurikiye.

Ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye biri ahantu mu ishyamba, bikaba birimo ibirebire ndetse n'ibigufi, aho byose ari ingirakamaro cyane kuko bidukururira imvura.

Resitora y'Umucyo icuruza ibyo kurya bigiye bitandukanye ku banyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, bakaba bajya kuharira saa sita na nimugoroba, bakishyura amafaranga make.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ifite amarido meza cyane ndetse ifite n'ibitanda byiza bifite n'imisego, aho ari inyubako yo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Igitanda cyicaweho n'abantu bagiye batandukanye, aho harimo umwe uri kwandika kuri mudasobwa ndetse akaba afite amakaye mu ntoki ari kwiga n'undi ufashe mudasobwa mu ntoki ari kuyigiraho yonyine.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho zikikijwe n'ibiti birebire bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi, zikaba ari inyubako zo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zifite utuhure dukinguka zikaba kandi zifite n'utumoteri inyuma tw'ubururu, akaba ari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda aho abiga ubuvuzi bigira.

Ubusitani bwiza cyane buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane, ku buryo umuntu wese ubihinze bibasha kuba byamuteza imbere, bikaba ari ibiherereye muri kaminuza.

Akabati karimo amoko agiye atandukanye y'inkweto, aho hejuru haterete utubido turimo amazi, aho ari ingenzi cyane kubera ko dukunze kuba turi mu macumbi y'abanyeshuri biga muri kaminuza.

Icyapa cyo muri kaminuza kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, cyerekana ko amakarabu yo muri kaminuza ari aha ngaha akorera.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyi nyubako irimo ibitanda bigerekeranye ndetse n'aho bakabira, byerekana ko ari inyubako yo muri Kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane irimo ameza meza agezweho, aho harimo amakayi n'ibitabo birambitseho, bikaba bigaragara ko ari mu ishuri nubwo abanyeshuri batarimo kugaragara.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho harimo ibitanda bigiye bitandukanye biryamwaho n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, cyane cyane ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho zifite ibikuta by'umweru, zikaba zishasheho matera zisa ubururu, harimo n'ameza agiye atandukanye.

Inyubako nziza cyane zubabatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho hari utuyira tugiye tunyuzemo dushashimo amapave, zikaba zifite ubusitani bwiza cyane, bigaragara ko ari muri kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane, ifite ibikuta biteye amarange y'umweru, ikaba ifite inzugi zerekana ko muno bigishirizamo mudasobwa ndetse zikaba zinabamo, akaba ari muri kaminuza y'u Rwanda.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bw'amagorofa aho ifite udusigakariye dukikijwe n'ibyuma abantu baririraho bari kujya hejuru mu madaraja ndetse no mu yandi ma etage.

Abantu benshi cyane bagiye batandukanye bakaba bicaye muri sitade ya kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, aho bigaragara ko ari abaririmbyi bari kugenda baririmba.

Inyubako yigirwagwamo n'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuvuzi bo muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye, harimo udutebe twiza cyane tugezweho abanyeshuri bifashisha bari kwiga.

Ibikorwa bigiye bitandukanye, aho harimo ikibuga, ubusitani, amazu, ishyamba ndetse n'ibindi byose, bikaba biherereye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda Ishami rya Huye.

Imodoka zigera muri ebyiri, aho hari imwe yo mu bwoko bwa dubure kabine, yanditseho Kaminuza Nkuru y'u Rwanda. Bigaragara ko ari imodoka ya Kaminuza iri mu kigo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane, hanyuramo n'akayira k'abanyamaguru gashashemo amapave meza cyane.

Imashini ya mudasobwa iri kwaka, iteretse ku meza. Imbere hakaba hari purojekiteri ndetse n'ibikuta biteye amarange y'umweru, bikaba biri mu nyubako muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane iteye amarangi y'umweru ku bikuta irimo intebe nziza cyane zigezweho, ziba zifite akantu umunyeshuri yandikiraho, zikaba ziherereye muri kaminuza y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Icyapa kiri mu mabara y'ubururu n'umweru cyanditseho ikirango cya kaminuza nkuru y'u Rwanda, kikaba kiri kwerekana amacumbi abanyeshuri babamo ndetse n'icyerekezo ayo macumbi aherereyemo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho ifite ikigega kirekire cyane, ubusitani bwiza, n'utuyira dushashemo amapave, akaba ari muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarange y'icyatsi ku bikuta, ikaba iriho igikapu kirimo imashini ndetse n'umusego, bigaragara ko habamo abanyeshuri biga muri kaminuza.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, ikaba iteye irangi ry'umweru ku rukuta, hakaba hari ikirango cya Kaminuza y'u Rwanda handitsweho n'amagambo ngo "Kaminuza nkuru y'u Rwanda".

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bw'amagorofa, aho iyi nyubako ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wese uyifite ibasha kuba yamuteza imbere, ikaba ifite akayira gashashemo amapave.

Umugore wambaye agapfukamunwa, akaba afite indangururamajwi mu ntoki, yambaye n'ikarita yerekana ibyo akora mu ijosi, akaba ahagaze imbere y'icyapa cyanditseho IPRC Kitabi, ishuri rikuru ryigisha iby'imyuga n'ubumenyingiro.

Inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda irimo icyapa kiri mu mabara y'umweru ndetse n'ubururu, kiriho akamenyero kerekana ko imbereye mu ruhande rw'iburyo hari ubwiherero.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, aho irimo intebe nziza cyane ziri mu mabara menshi, ikaba ari inyubako yo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho, aho ari inyubako ifite utubati tugiye dutandukanye, tuba turimo ibitabo abanyeshuri bifashisha bari gusoma, kugira ngo batsinde.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho mo imbere harimo ibikoresho bigiye bitandukanye abantu bifashisha kugira ngo barebe ko bamererwa neza cyane.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho harimo ibitanda bigera muri bibiri bijyamwaho n'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye cyangwa se aya kaminuza mu macumbi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bugezweho, aho zifite purafo y'umweru, imbere hakaba hari ibiti byinshi bihateye biri mu ishyamba by'inganzamarumbo, bizana umuyaga.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho iba ikwagamo amatara, ni inyubako yo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, aho ari mu isomero aho abanyeshuri bajya kwigira.

Inyubako nziza cyane, aho irimo intebe nziza z'imifarizo abantu bicaraho, bikaba bigaragara ko ari ahantu habera inama abantu bakaza bakicara neza maze bakajya baratanga ibitekerezo.

Inyubako nziza zubatswe mu buryo bugezweho, aho ziteye amarange y'umweru n'umukara, zikaba ari inyubako zo muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, iherereye mu Ntara y'Amajyepfo.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo wagezweho, ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ikaba ari inyubako y'isomero aho harimo ibitabo byinshi biri mu tubati n'intebe abaje kubisoma bicaraho.

Abanyeshuri benshi cyane bateraniye hamwe aho bigaragara ko bari mu nama, inyuma yabo hakaba hari indi nzu igereratse, yicayemo abandi bose bakurikiye barebye imbere.

Ni byiza cyane ko buri kigo cy'amashuri kigira isomero ndetse n'intebe abanyeshuri baza bakicaraho bagasoma ibitabo bigiye bitandukanye, kugira ngo biyungure ubumenyi.

Icyapa kiri mu mabara y'umweru, cyanditseho amagambo Kaminuza y'u Rwanda, bigaragara ko ari mu marembo ya Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye.

Utuzu turi mu mabara y'umuhondo bigaragara ko twanditseho ikigo gitanga imiyoboro y'itumanaho mu Rwanda cya MTN, tukaba dukikije ibibuga bakiniramo imikino y'amaboko.

Inyubako nziza cyane z'ikigo cy'amashuri aho izo nyubako zifite ubusitani buteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibyo biti bizana umuyaga n'amahumbezi.

Icyapa kiri mu mabara agiye atandukanye y'ubururu, cyanditseho IPRC HUYE bigaragaza ko ariho ishuri rikuru ryiga ibijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro mu Rwanda riherereye.

Inyubako nziza cyane ya resitora, aho ifite ubukarabiro bwiza bugezweho imbere ndetse ikaba ifite imbuga ishashemo amapave, ni muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, ishami rya Huye.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho harimo utubati turimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bigiye bitandukanye byifashishwa mu burezi bw'u Rwanda kugira ngo bugire ireme.

Muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye, haba hari amazu yabugenewe acumbikirwamo abanyeshuri biga bacumbikirwa. Muri Ibyo byumba rero, haba harimo amoko agiye atandukanye y'ibikoresho bakenera.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho, aho iyo nyubako ifite ibirahuri byiza bibonerana, ikaba iteye amarangi y'umweru ku bikuta, ifite n'amarido abuza urumuri rwinshi kwinjira.

Iyi nyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho iteye amarangi y'umweru ku bikuta ifite ikibaho gisa icyatsi ikaba ari inyubako y'amashuri. Mo imbere hari umugore w'umuzungu ufite indangururamajwi ari kuvuga.

Inyubako nziza cyane ifite ibikuta biteye irangi ry'icyatsi hakaba harambitsemo keto ndetse n'utubido dutatu turi ku meza n'udukombe tubiri, bikaba bigaragara ko bikoreshwa n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda.